Abaganga babiri harimo umugabo n'umugore, umugabo yambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'umukara, yambaye n'amarinete. Yicaye ku ntebe y'umukara n'ibitabo biri ku meza y'imbaho. Umugore yiteze igitambaro mu mutwe ari kuvura.

Inama ivuga ku buzima higanjemo igitsina gabo n'igitsina gore bambaye impuzankano yo hejuru isa, hari umugabo uhagaze wambaye umupira w'umweru n'ipantaro n'isaha ku kuboko uri kuvugira mu ndangururamajwi.

Inzu icuruzwamo bwoko bw'imiti itandukanye, hariho icyapa gifite ubuso mu ibara ry'umweru, hariho amagambo yandikishijeho ibara ry'icyatsi, yubakishijwe isima y'umutuku imbere, hariho imboga yubakishijwe amapave.

Ibitaro byubakishijwe amatafari ahiye. Bisakajwe amabati asa nk'ubururu. Iruhande rwabyo hari akazu kubakiye aho bakarabira intoki. Gafite inkuta z'ibyuma, gasakajwe amabati. Iruhande rw'ako kazu hari icyapa gifite ubuso mu ibara ry'umweru, cyandikishwa amagambo mu ibara ry'umukara.